Abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore bicaye mu nzu mberabyombi kandi buri umwe akaba afite mudasobwa, bicaye mu ntebe z'umweru zifite utubara tw'umuhondo ku mpande kandi iyo nzu ikaba irimo amakaro.

Hano hicaye abantu bari munama imbere yabo hari amatabure nama telefone yabo kandi bafite uducupa twamazi yinyange, abo bantu barakurikiye cyane basa naho ntakiri kubacika.

Abantu benshi cyane harimo abagabo n'abagore, bitabiriye inama, imbere yabo hateretsi amatelefone yabo, kandi hakaba hari n'udutabo two gusomamo ibyo barikuvuga, kandi baka bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru, ndetse n'ameza ariho ibitambaro by'umweru.

Abantu barisoza urugerero, ni abakobwa barimo n'abahungu benshi cyane bambaye imipira y'umuhondo yanditseho ijambo "Urugerero" kandi ikaba n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru harimo abagabo, abagore, kandi hakaba harimo n'abandi bantu bahagaze, bari gukurikira imbwirwaruhame iri gutangwa. Muri abo bantu harimo abafite, abambaye ingofero mu mutwe.

Abagabo bari mu nama ariko imbere hakaba hateretse amacupa y'amazi y'inyange, kandi abagabo imbere yabo hakaba hateretse amaterefone yabo ndetse uw'inyuma yabo afite mudasobwa.

Umuturage uri gusuhuza abayobozi iruhande rwe hakaba hari abasirikare b'igihugu cy'u rwanda, bigaragara ko ahantu hakoraniye abantu benshi cyane kandi bamwe hakurya barahagaze aba bantu bicaye mu bisharagate.

Bicaye mu ihema bari gukurikirana ibiganiro n'abandi bari kureba muri telefone bambaye imipira y'ibara rijya gusa iroza.

Abagabo n'abagore benshi cyane bari mu nama kandi bigaragara ko bafite impapuro bari gusoma ndetse naho bari kwandika n'amakaramu yabo, hakaba harimo abagabo bambaye amaturusu hakaba harimo n'abagore bambaye amakanzu yo mu bwoko butandukanye kandi hakaba ari muzu nini cyane y'imberabyombi.

Abantu benshi cyane bambaye udupira tw'ubururu, kandi utwo dupira twabo tukaba turiho ibirangamitego by'u Rwanda kandi hakaba hariho n'indarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Amacupa y'amazi, abagabo bambaye amakoti bari mu nama yabo bateretse ibitabo kandi bafite n'amakaramu bari kwandikamo ibiri ku vugirwa mu nama ndetse n'imyanzuro kandi.

Abaturage bicaye ndetse bafite ibitiyo ndetse n'amajerekani bisa nkaho bari kumva umuturage ibyo ari kubabwira bigaragara ko bari baje mu muganda rusange w'igihugu.

Abantu bari mu nama y'ikigo cya rura, kandi bafite amacupa y'amazi y'inyange imbere yabo, ndetse na za mudasobwa, kandi bari kureba imbere kuri mudasobwa mu kirahuri y'amagambo yanditsemo iri kuberereka bayasoma.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu ikorerwamo inama, bicaye ku ntebe z'umutuku kandi imbere hakaba hari abantu batatu bicaye na bo bari kuvuga imbwirwaruhame, bafite indangururamajwi kandi abo bakurikiye imbwirwaruhame, bo bambaye imipira y'umweru.

Abagore babiri bambaye imyenda y'imituku kandi begeranye n'umugabo wambaye ishati y'umweru bicaye ku ntebe z'umukara z'imifariso, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange kandi hakaba hari n'umuti wica udukoko dutoya tuba turi ku ntoki.

Umugabo uri kuvuga imbwirwaruhame inyuma ye hakaba hari abantu bicaye ku ntebe z'umweru, harimo abagabo, abagore, ndetse ahandi hakaba hari ihema ryubatse kugira ngo ribakingire izuba cyangwa se imvura igihe yaba iguye.

Umugabo wambaye umupira wicyatsi kandi ufiteho idaraporo ry'u rwanda kuruhande rw'iburyo afite indangururamajwi ari kuvuga imbwirwaruhame ari kubwira abantu bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'icyatsi bicaye ku ntebe z'ubururu.

Abaturage bari mu nama kugiye bafite amacupa y'amazi y'inyange kandi buri muturage imbereye hari indangururamajwi k'uburyo ushaka kugira icyo avuga cyangwa se icyo atekereje akivuga abandi nabo bakacyumva.

Abantu bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange, bari kureba kuruhande, umugabo umwe yambaye ikote ry'umukara, undi yambaye umupira w'umukara, umumama yambaye ikanzu.

Abaturage baje mu nama ya leta bicaye mu byatsi abayobozi bicaye mu mahema bari kubaha ibiganiro bigiye bitandukanye hari imbere yabo y'ihemari hari idarapo rya leta y'u Rwanda.

Abagabo batatu bambaye amakote, imbere yabo hakaba hateretseho indangurura majwi bigaragarako hari ibiganiro bari gatanga, kandi bakaba bicaye ku meza ariho ibara ry'umutuku kandi bakaba bicaye nanone ku ntebe z'umukara.

Abagabo bambaye imyenda y'urugerero ndetse hakaba hari nkaho hari abana b'urubyiruko bambaye imyenda nabo y'urugerero bigaragara ko ari abagabo cyangwa se abayobozi bambaye imyenda y'icyatsi hejuru ninyuma urubyiruko bakaba bambaye imyenda y'umuhondo hejuru.

Abagore n'abagabo bari mu nama imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange, kandi bakaba bafite n'amakaramu ndetse n'amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugwa muri iyo nama...

Abagore n'abagabo benshi bicaye ahantu, bigaragara ko bari kumva inama runaka kandi hakaba hari abicaye imbere hateretse n'ameza ariho ibitambaro by'umweru ndetse n'ibitabo n'amatelefone yabo kandi hakaba hari n'icupa ry'amazi bigaragara ko bari kunywa n'amazi abo bantu bitabiriye iyi nama.

Abantu benshi cyane bari mu nama kandi iyo nama ikaba irimo abagabo abagore ndetse bakaba bari gukoresha amacupa y'Inyange, uruganda rw'Inyange kandi bakaba bafite indangururamajwi imbere yabo.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Abagore n'abagabo bicaye mu nama bari kwandika mu makaye cyangwa se mu bitabo byabo kandi bakaba imbere yabo hateretse amazi yo mu macupa y'Inyange y'uruganda rukorera mu Rwanda.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama barebana kandi imbere bateretse amacupa y'amazi y'inyange ndetse imbere yabo hari za mudasobwa biragaragara ko iyo nama irimo n'umupolisi.

Abantu bari mu nama, harimo umugore umwe n'abagabo bane kandi abagabo bose bakaba bambaye amaturusu, bafite amakaye imbere yabo bigaragara ko bari kwandikamo ndetse imbere yabo hakaba hateretse n'amazi ari mu macupa y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu nzu iberamo inama, kandi bakaba bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'ibara ry'umweru. Harimo abantu benshi, abagabo ndetse n'abagore, kandi bakaba bakurikiye imbere ibiganiro biri gutangwa.

Umugore uri kuvuga imbwiruhame, kandi akaba afite indangururamajwi, kandi imbere ye hakaba hari abantu bari kumvamva imbwirwarume ye ndetse imbere yabo hakaba hateretse amazi y'uruganda rw'inyange kuri buri muntu.

Hano hari abantu biri mu matete bicaye kuntebe Kandi bari kureba imbere, Imbere yabo hari ibyatsi bya pasiparume.

Abagabo babiri n'umugore umwe umugabo umwe yambaye ingofero, umugore yambaye imyenda y'umutuku imbere yaho hateretse ameza asa neza ndetse n'ibitabo hari n'ururabo rufite amabara y'umweru ndetse n'iyo nzu bicayemo amatara arikwaka.

Inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo iyo nama irimo abakozi cyangwa se abayobozi benshi batandukanye harimo abayobozi bane bambaye amaturuso kandi imbere yabo hakaba haturetse amacupa y'amazi y'uruganda.

Umuturage uri gutanga ibiganiro imbere y'abandi baturage, inyuma ye hari umupolisi w'umudamu, kandi nawe akurikiye ibyo uwo mugabo arivuga, hakurya hari undi umugabo ufite nawe indangururamajwi, imbere yabo hari abaturage bari kwemeza ibyo bavuga.

Abantu bicaye bari gusoma mu mpapuro; kandi imbere yabo hateretse amacupa y'amazi n'ay'umutobe wa pome. Inyuma yabo hari igikoresho bifatisha bafata amafoto.

Abantu bitabiriye ibirori bitandukanye kandi hakaba harimo n'abashinzwe umutekano hakaba hari ihema ririmo abicaye ku ntebe z'umweru kandi iryo hema rikaba risa n'ibara ry'umweru, hakaba hari ibiti byateye ishyamba.

Ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi umusoro ku nyungu bibiri namakumyabiri nagatatu ishimwe rigenwe umuguzi wa nyuma watse fagitire ubukangurambaga bwa ibiyemu gahunda yo kwigaragaza ngo umuntu akorerweho ibibaho n'inyungu z'ubukererwe mu misoro.

Umusoro wa kabiri rimwe yongerewe ubushobozi, shyiraho muri murandasi ibashe kwakira kandi biragaragara ko hari amatelefoni n' amamashini ari gusobanura ibyo bintu n'ahantu wacaga wanyuramo kugira ngo ubone gutanga iyo misoro ikenewe.

Umunsi w'abakozi. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, bibiri na makumyabiri na rimwe. Hakaba hari icyapa kigaragaza abantu bambaye udupfukamunwa kandi bishimira ko ari abakozi. Bigaragara ko harimo abaganga n'abakora mu biro cyangwa se n'abategetsi ndetse n'abandi bakora mu by'ubwubatsi.

IREMBO intambwe ya kane kanda kuri " saba" hanyuma ukurikize amabwiriza. ibisabwa usaba agomba kuba afite indangamuntu yigihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru ya cumi n'itandatu.

itariki ntarengwa mirongo itatu n'imwe zukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane imenyekanisha uyu munsi iributsa kumenyekanisha no kwishyura umunsi w'u musoro ku nyungu byakorewe kugeza ku itariki mirongo itatu n'imwe kuzakora imenyekanisha uyu munsi birinde ingaruka zo kubikora ku munota wa nyuma

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma byinshi cyane bigiye binyuranyuranamo, kandi uwo munara ukaba ufite ibisahani by'itumanaho biwuriho, ukaba ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umunara muremure w'itumanaho wubakishije ibyuma byinshi, biri mu mara y'umutuku ndetse n'umweru, ukaba uriho bimwe mu bikoresho by'ibisahani bikoreshwa mu gukurura amajwi kugira ngo agere ku bandi.

Abantu bicaye ahantu mu nzu y'ubusomero kandi iyo nzu y'ubusomero ikaba ifitemo za mudasobwa ndetse no murandasi, kugira ngo utanyurwa n'ibyo anonye mu bitabo akoreshe muri andasi.

Umugore wicaye mubiro, wambaye umupira w'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa y'umukara, kandi afite ikaramu ari no kwandika mu ikayi, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi, n'ipantaro y'umweru, n'inkweto z'umukara, uri kuvugana n'uwo mugore.

Hano hari ibyo wakurikiza kugira wiyandikeho ikinyabiziga waguze muri cyamunara. Hano hari ibintu bigera kuri cumi na bibiri ugomba gukurikiza kugira ngo ubyiyandikeho. Nyuma yo kwishyura urabona ubutumwa bugufi bukubwira ko ubusabe bwawe bwakiwe.

Dore uko wamenyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa muri bibiri makumyabiri na kane, jya ku rubuga, kanda ahanditse injira umunyekanishe, shyiramo tini yawe n'ijambo banga ukande injira.

Hano ndi kubona kompiyuta irimo dokima yo kuzuza ugasabumitinga, kandi ifite ibikenerwa bikurikira; harimo kuba uri umunyarwanda, ukaba ufite irangamuntu kandi ukaba utari munsi y'imyaka cumi n'itandatu.

Umunsi mwiza w'abakozi, minisiteri y'ibikorwa remezo irifuriza abakozi bayo umunsi mwiza. Biragaragara ko harimo abakozi bambaye amakositimu basa nkaho bakora mu biro, hakaba harimo abakanishi, hakaba barimo abakora amasuku ndetse n'abaganga.

Abantu bahagaze barimo abakobwa n'abasore, bigaraga ko bari ku matelefone yabo bari gukoresha murandasi, kandi bakaba bahagaze iruhande rw'umuhanda w'amapave, kandi hepfo yaho, hakaba hari ibyapa bigaragara ko hari amazu y'ubucuruzi.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi iki kirango kiri kugaragara mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru kandi kikaba kiri mu buso bw'ubururu icyo kirango kikaba munsi yacyo hariho amagambo avuga yuko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi.

Ikigo gikorera u Rwanda cyitwa RURA kirabwira abantu gukoresha icupa rya gaze ngo hitamo icupa bitewe na gaze ukenera kandi ugenzure ko barikugejejeho ihagaze kandi itangiritse.

Abantu babiri umwe muribo yambaye ingofero y'umukara undi yambaye amadarubindi, umwe ari kureba muri terefone undi ari kwandika mu mu mashini. Kandi uwo uri kwandika mu mashini yambaye agapira k'umutuku imbere y'ishati.

Uruzitiro ruzitiye umunara wicyatsi witumanaho kugira ngo hatagira abantu bawininjiramo cyangwa se bakakubaganirara inzu y'umuntu urinda umunara ifite umuryango w'ubururu yubakishije amatafari matoya ahiye imbere yaho hari utubuye dutoya.

Abantu benshi bicaye mu nzu, bafite za mudasobwa, bari kwandikamo kandi banasoma ibirimo kandi biragaragara ko hari undi muntu uri gukurikirana ibyo bari gukora.

Umugabo uri kureba muri telefone, inyuma ye hari abandi bantu, barimo umwambaye agapfukamunwa kandi uyu mugabo yambaye ishati y'umweru irimo utudomo ndetse n'umupira wo mwibara ry'icyatsi

Urubuga rwa Irembo rutanga serivisi zitandukanye zirimo izo umuturage yisabira kandi akaba yanazikorera kuri telefoni ye. Muri serivisi zikunze gusabirwa kuri uri rubuga harimo icyemezo cy'amavuko, gusaba indangamuntu, icyemezo cyo kuba warashyingiwe ndetse n'ibindi.

Ipoto ririho amashanyarazi ry'icyuma rirerire rifite ibyuma binyuranyuranamo byinshi cyane kandi biriho insinga.

Ipoto ry'icyuma n'insinga z'amashanyarazipotorwaho n'insinga nyinshi cyane zireberereza umuriro abaturage mu bice bitandukanye kandi hepfo y'iyopoto hari ishyamba ry'ibiti ryinshi cyane.

Amapoto abiri y'amashanyarazi ariho insinga z'amashanyarazi; inyuma yaho hari ibiti by'iminyinya ndetse hari n'urugo rw'umuntu w'umuturage.

Ipoto y'insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mwinshi kandi munsi yazo hari insiga zitwara umuriro uringaniye bohereza abaturage. Urupango rufite urugi bw'ubururu kandi hakaba hari n' inzu hirya y' umuhanda ifite imiryango ya ...

Abantu bari kubaka ahantu insinga z'amashanyarazi zihurira, kandi abo bantu bakaba bambaye imyenda y'akazi, hari ibisarubeti by'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo, kugira ngo zibakingire imitwe yabo mu gihe cy'impanuka.

Umutaka w'umuhondo n'abantu babiri bahagaze. Baje kugura ama inite ku muntu uyacuruza. Inzu iriho ibisahane by'itumanaho hejuru yayo, amapoto ariho insinga nyinshi.

Umunara muremure w'itumanaho wubakishije ibyuma byinshi cyane. Iruhande rw'aho hakaba hari insinga z'amashanyarazi ziha umuriro abaturage. Kandi hakaba hari kugaragara n'igiti inyuma yaho kirekire.

Amapoto abiri ariho igikoresho bakoresha mugihe bari kugabanya cyangwa se baringaniza umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo ubone guhabwa abaturage wagabanyije ubukana kandi hakaba hari n'ishyamba hafi aho ngaho ndetse n'ibihingwa bahinze mu murima abaturage aribyo ibigori.

Ipoto ry'insinga ry'amashanyarazi rikoze mu byuma rirerire ritwara umuriro mwinshi cyane haruguru yaryo hakaba hari zizindi nsinga zitwara umuriro uringaniye zo guhereza abaturage kandi haruguru hakaba hari igikorwa k'inzu nziza y'igorofa.

Igiti cy'ipoto kiriho insinga nyinshi cyane. Inyuma yacyo hari igorofa ndende, imbere y'iyo gorofa hari abantu benshi bari kugenda kandi hari n'imodoka nyinshi.

Itara ryo ku muhanda ririho insinga zitandukanye zehereza umuriro abaturage. Urupangu ruri hepfo y'umuhanda. Hepfo y'umuhanda hakaba hari inzu nziza iri ahantu mu biti biyikikije.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'abantu barahurira kuri iryo poto, inzu ifite amabati y'umutuku, urupangu rufite ibara ry'ikigina.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo wicaye ku mufuka uri hejuru y'itakari ryinshi cyane, inyuma ye hari ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi rirerire kandi ndi kubona n'indi mifuka myinshi iri iruhande rwe.

Inzu ifite amabati y'umutuku ariko ashaje, ifite igisahani cy'itumanaho gikorana na tereviziyo kandi iyo nzu ikaba yubakishije urupangu rw'amatafari ahiye ndetse ruriho n'urugi rw'umukara.

Amapoto muremare ariho insinga z'amashanyarazi, zica iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, igiti kipoto kirekire kiriho itara kandi hanyuraho n' insinga z'amashanyarazi zijya guhereza umuriro abaturage.

Umugabo wuriye ipoto akoresheje urwego ari gushyiraho insinga z'amashanyarazi zigiye guhereza umuririro abaturage, bigaragara ko bari kubaka ibikorwa remezo kandi bakaba bashaka ko abaturage bacana umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto y'insinga z'amashanyarazi ari kunyuraho insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane zijya guhereza umuriro abaturage kandi hakaba hari n'ipoto rifasheho itara rimurika mu muhanda rimurikira abantu ndetse n'ibinyabiziga .

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarizi, riri gucaho insinga zohereza umuriro mu baturange. Ariko iryo poto rikaba ririho itara itara rimurikira umuhanda wa kaburimbo, akaba Ari umuhanda ukoze neza.

Ibiti by'ipoto by'amashanyarazi binyuraho insinga nyinshi cyane kandi hariho na mubazi zibara umuriro w'abaturage iruhande rwabo ,hari ibiti birebire ariko ntabwo byagera kuri izo nsinga.

Ipoto rirerire ririho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi zijya guhereza umuriro abaturage, kirashinze ahantu mu rupangu rw'umuntu. Kandi hakaba hari umuhanda uri imbere y'urwo ripangu uri kugenderamo imodoka y'umukara.

Ipoto ririho intsinga z'amashanyarazi, zigiye guhereza umuriro abaturage, bigaragara ko iyo poto rihuriweho n'intsinga nyinshi cyane, kandi iruhande rwizo rwiyo poto hakaba hari ibiti birebire bigize ubusitani, hakaba hari n'urupangu narwo iruhande rw'ibyo biti.

Insinga z'amashanyarazi ziri guca ku ipoto rinini zitwara umuriro mwinshi cyane, hariho abantu babiri bari gukanika izo nsinga kugirango zige zitwarauwo muriro w'amashanyarazi muburyo bunoze.

Ipoto rirerire ry'insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ari umuyoboro mugari w'insinga z'amashanyarazi, munsi y'iryo poto hakaba hari amazu y'abaturage, hakurya hakaba ari umusozi nawo utuyeho abantu.

Amapoto menshi cyane ashinze hafi y'umuhanda, ayo mapoto akaba ari ihuriro ry'insinga z'amashanyarazi. Bigaragara ko hariho amashanyarazi y'umuriro mwinshi, amashanyarazi umuriro uringaniye ndetse n'ayo guha abaturage. Hakaba hari n'umuhanda uri kugendamo imodoka.

Itara ryo kumuhanda rimanitseho icyapa cyamamaza bimwe mu byo umuyoboro wo mu Rwanda ukora w'itumanaho, aribyo banditseho bavuga bati kanda akanyenyeri maganatatu mirongwine na gatanu akanyenyeri rimwe akadirishya ugure pake yawe ya irekure.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Igiti kitambitse mu muhanda kibuza abantu kuhanyura kandi hararinzwe n'ababishinzwe hakurya hari ibyapa biriho amagambo ni ibyapa bitandatu hakurya yabyo none hakaba hari inzu zifite amabati y'umutuku .

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari yahiye kandi meza cyane. Iyo nzu ikaba ifite urubaraza abantu banyura rusakariye ku buryo hatanyagirwa cyangwa hava izuba, hakaba hari n'intebe ziri hanze zo gutegerezaho mu gihe ukeneye kuvugana n'abari muri izo nzu.

Inzu ndende y'igorofa, iyi nzu ikaba ifite aho abantu banyura mu gihe bari kwambukiranya bajya mu yindi nzu byegeranye, kandi iyo nzu bigaragara ko yubatse mu buryo bugezweho, iracaniwe, ifite amatara meza yaka neza.

Ibitaro bya Muhima biherereye mu Karere ka Nyarugenge kandi ibyo bitaro biparitsemo imodoka nyinshi zitandukanye zaje gushaka ubuvuzi, kandi hakaba hari icyapa cya minisiteri y'ubuzima kandi kikaba kiri ahantu.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse ifite ibara ry'umukara mu imbere n'irindi ry'umweru kandi akaba yambaye karuvate mu imbere y'iyo kanzu. Iyo kanzu bigaragara ko ari iyo bambaye mu gihe basoje ikiciro cy'amashuri y'umwaka.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'uumweru mu gatuza, imbere yambariyemo ishati kandi umugabo nta musatsi afite. Bigaragara ko arangije icyiciro cy'amashuri runaka yihagarika kandi yishimiye kuba arangije.

Umugore wambaye amapingu bigaragara ko yakoze icyaha, bagiye kujya kumufunga yambaye ikanzu iri mu ibara ry'iroza kandi akaba yambaye n'ibirahuri by'amaso atwawe n'abashinzwe umutekano bagiye kumufunga.

Igororero rya Muhanga, aha ni ahantu bafungira abantu b'abajura cyangwa se bakeneye kugororwa kubera ibyaha baba barakoze, kandi iryo gororero rikaba rifite urupangu rwubakishije amabuye y'umweru.

Umugore wambaye ikote ry'umukara ndetse wambaye n'amaherena ku gutwi imbere ye hateretse amazi ayo mazi akorwa n'uruganda rw'inyange ruri mu Rwanda ndetse hakaba hateretse imbere ye n'umutobe uva mu mbuto nawo ukorerwa mu Nyange .

Umugabo ufite ubwanwa wambaye ishati imbere yikanzu y'umutuku. Kandi iyo kanzu y'umutuku ikaba ifite ibara ry'umweru mu gatuza rigaragara ko yayambaye kubera ko hari icyiciro cy'amashuri runaka asoje.

Abantu benshi bari mubiro harimo abambaye amakositime y'umukara ndetse harimo naba'mama kandi bari ahantu munzu mberabyombi nini cyane.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru kandi ifite ibara ry'umukara, imbere ndetse n'umweru, ifite n'ibipesu bikiri mu ibara ry'umweru kandi akaba afite ikora ry'umutuku, afite imisatsi miremire igera mu mugongo.

Umugabo wambaye imyenda igaragaza ko asoje icyiciro runaka cy'amashuri. Akaba yambaye ikanzu y'umutuku, ifite ibara ry'umukara mu gatuza ndetse n'indi y'umweru iri hagati y'ayo mabara y'umukara, kandi akaba yambaye ishati y'umweru imbere.

Umuturage uri gutanga inama imbere hari abaturage benshi cyane bari kumva ibyo ari kuvuga kandi hari izuba nubwo ritari ryinshi cyane ariko harimo bakeya muri abo baturage bafite umutaka kugirango ritabica .

Abagabo n'abagore bahagaze imbere bambaye imyenda y'amaturusu, harimo ay'imikara ndetse n'ay'ubururu. Umudamu we yambaye uturahure tw'amaso ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye.

Inzu nziza y'uruganiriro iri kuberamo inama ndetse ikaba yitabiriwemo n'abantu benshi cyane bingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'amagore bambaye imyenda y'imikara abenshi muri bo kandi imbere yaho hakaba hari umuntu uri kubaha inama.

Abaturage ba leta bari kuganira ku bikorwa bafite ikaye bari kureberamo basoma ibyo babiganiraho bambaye amakoti y'umukara babiri muri bo, ndetse n'amashati y'umweru, undi yambaye ishati ijya gusa umutuku kandi ni umudamu wambaye ndetse n'amarinete.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu mberabyombi harimo abagabo n'abagore kandi bambaye amakanzu y'umutuku ndetse afite ibara ry'umweru mu gatuza, ndetse n'ingofero z'umukara zifite utubara tw'umuhondo tunyuramo kandi bigaragara ko abantu bashoje icyiciro cy'amashuri runaka.

Ingingo ya cumi na gatandatu kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko. Umuntu wese wihesha cyangwa wemera guhabwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko amugenga ku buryo bweruye cyangwa buteye cyangwa ashyizemo umuhagararira inyungu iyo ariyo yose.

Abantu bari kugenda mu muhanda kandi abo bantu bakaba barimo umugore ndetse n'abagabo hakaba harimo n'umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi kandi hakaba hari n'igiti k'ipoto gishinze kiriho insinga z'amashanyarazi.

Umupolisi wambaye agapfukamunwa kandi wambaye n'ingofero y'umukara, afite ibikoresho byifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, aho bisohora imyotsi ndetse n'amazi yo kuzimya umuriro.

Umukozi ushinzwe iby'umutekano wambara imyenda y'icyatsi. Imbere hari abantu babiri bari kugenda mu muhanda. Haruguru yaho hakaba hari inzu nziza y'igorofa ikorera ibintu by'ubucuruzi butandukanye.

Igikoresho gikoreshwa mu gihe cyo kuzimya inkongi y'umuriro, cyitwa kizimyamwoto, iki gikoresho kiri mu ibara ry'umutuku kandi kikagira umupira w'umukara, niwo ugenda werekeza ku muriro kugira ngo uwuzimye.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Iki gikoresho gikunze kwitwa nkaho ari kizimyamwoto. Kiri kugaragara mu ibara ry'umutuku kandi kiba gikozwe mu bintu bitandukanye, birimo ibishobora kuzimya umuriro.

Abapolisi babiri ba leta y'u Rwanda bahagaze aho imodoka zihagarara cyangwa se aho abagenzi bategerereza abapolisi umwe yambaye utugarura akagarura rumuri inyuma y'imyenda yiforumye.

Abaporisi ba reta bahagaze kumurongo bafite imbunda kandi bambaye impuzankano isa bose nkuko bigaragara mumyenda y'ubururu gusa umukara ari buru yijimye kurutugu rw'abo hariho idararapo ry'igihugu bambaye ingofero.

Imodoka nziza ziparitse imbere mu rupangu, hepfo y'urupangu hari inzu nziza nayo ifite amabara y'umweru, kandi izo modoka ziri mumabara y'umweru n'umukara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ukiri mushyashya. Umupolisi uri kumwe n'undi muntu, bari kugenda mumuhanda. Hari inzu yubakishijwe amatafari ya ruriba.

Ibiyikoresho bikoreshwa bari kuzimya umuriro ibyo bikoresho byagita kizimyamwoto biri mu ibara ry'umutukuu ikindi kikaba kiri mu ibari ry'umwe kandi hakaba hari ikindi gikoresho amazi mu gihe haje inkongi y'umuriro.

Inzu nziza ifite amadirishya menshi kandi meza y'ibirahuri ndetse n'inzugi z'ibirahuri, imbere yabo hari umuntu uhagaze wambaye imyenda y'imikara kandi akaba ari intebe kandi iyo nzu ikaba ifite aho baparika imodoka hashashe amapave.

Kizimyamwoto bakoresha bari kuzimya umuriro. Iki gikoresho kikaba gifite amabara y'umutuku, umuhondo kandi kikaba gifite n'aho bafata mu gihe bagiye kuzimya umuriro. Aho bakuramo akuma kugira ngo habashe kuvamo ibintu by'ibyotsi bizimya umuriro.

Igikoresho bifashisha mu gihe habaye inkongi y'umuriro kugira ngo bazimye. Icyo gikoresho bakunze kukita kizimyamwoto kandi kikaba kigaragara mu ibara ry'umutuku ariko kikaba kiriho ibyapa by'umweru biriho amagambo yanditseho kandi.

Abamama bambaye imikenyero bafite amadarapo basa nkaho bari kurahira ayo madarapo ni ayi guhugu cy'u Rwanda kandi bamanitse ibiganza basa nkaho barahira.

Abantu benshi cyane harimo abagabo, abagore, bicaye bari kugirwarwa imbwirwaruhame kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kandi hakaba bicaye ahantu mu nzu mberabyombi, ndetse bigaragara ko ari nziza ifite amatara agezweho, ndetse bigaragara ko ari ahantu hameze neza.

Ikirangantego cyakoreshwaga mu bihe bya kera by'u Rwanda. ubwo rwari ruyowe n'undi mu perezida utandukanye n'uriho ubu. Kandi icyo kiragantego kikaba gifite amabara atandukanye, atatu. Ndetse ariyo umutuku, umuhondo, n'icyatsi. Ariko imbere hakaba hari inuma ihagaze ku kirangantego yanditseho amagambo asobanura icyo gihugu.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari kwiyamamaza kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda kandi yarashyigikiwe n'abashyigikira ishyaka rye, kandi bakaba bafite ibirangov by'iryo shyaka rye aho bigaragara mu mara atatu ibara ry'umutuku n'iry'umweru ndetse n'iry'ubururu kandi umukandida yambaye umupira w'umweru.

Abantu bicaye mu mberabyombi, imbere yabo hateretse amazi ari mu macupa y'inyange, kandi hakaba bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa, harimo abagore bambaye uturahuri tw'amaso.

Umwe mu bakandida bo mu gihugu cy'u rwanda ahagaze imbere y'abaturage ari kwiyamamaza ababwira ibyo azabagezaho kandiba ahagararanye n'undi bagabo babiri bamushyigikiye.

Abaturage bo mu ishyaka cyangwa se bashyigikiye ishyaka rimwe mu Rwanda, ryambara imipira y'icyatsi, bari mu nama bari kuganira, kandi bicaye ku ntebe ziriho udutambaro tw'umweru.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Mpayimana Philippe, yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambaye n'ishati imbere y'ikote, amazina ye ni Mpayimana Philippe yiyamamariza kuba umukandida wa Repubulika y'u Rwanda mu mwaka bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso kandi wambaye ikote ry'umukara imbere y'ikote harimo ishati y'ubururu wambaye isaha k'ukuboko inyuma ye yicaye ku ntebe y'umukara.

iyi nzu mbera byombi ikorerwamo intama harimo abantu benshi cyane abagabo n'abagore kandi bafite machine ya buri umwe bafite amazi yabateretse imbere y' burimwe ndetse akabari n'ibitabo imbere yabo

Abaturage benshi cyane bambaye amabara y'umutuku n'ubururu, bafite icyapa kiriho ifoto y'umukandida w'ishyaka rya FPR, Paul Kagame, bari kwamamaza. Bari kugaragaza ko ari we bashyigikiye kandi banashishikariza abandi kuzamutora.

Umukandida wigenga uri kwiyamamaza kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri kane. Inyuma ye hari abaturage bamukurikiye n'abo bamushyigikiye, ni abaturage bane bambaye imipira y'amaboko magufi y'umweru.

Igikoresho banagamo imyanda cyangwa se impapuro, umuntu ari kunagamo urupapuro kandi inyuma yuwo muntu hakaba hari undi wambaye ishati y'umweru hakaba n'uwambaye ikanzu y'ubururu. Iki gikoresho banagamo imyanda kirasa mu ibara ry'umweru gifite umufuniko w'umukara.

Tora Kagame Poro twubake u Rwanda twifuza, uburyo bwo kwamamaza umukandinda wa perezida w'u Rwanda, ndetse hakaba hariho n'ifoto ye kuri ibyo bintu bari kwamamarizaho, hakaba hari n'umugabo ufite ibendera ry'ishyaka ry'ubuntu rya perezida Poro Kagame, mu gihe ari kwiyamamaza.

Abaturage bashyigikiye ishyaka rimwe rikorera mu Rwanda rifite ibirango by'umutuku w'umweruru ndetse n'ibara ry'ubururu bari bishimye bamritse amadarapo aranga iryo shyaka ryabo kandi hakaba harimo n abambaye imipira iranga iri shyaka.

Abantu benshi baje kumva imbwirwaruhame, imbere yabo hahagaze abagabo batatu bari kubabwira imbwirwaruhame, kandi babiri muri bo bambaye amakote, undi yambaye agapira k'umweru kanditseho amagambo agira ati " indi ntambwe " kandi abantu bari kubwira bicaye ku ntebe, umwe afite umutaka bigaragara ko hari izuba ryinshi.

Umugore wicaye ufite igitabo, yambaye ibirahuri by'amaso, yambaye imyenda y'umukara, ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara, imbere ye hari indangururamajwi kandi yicaye ku ntebe y'umweru.

Bamwe mu baturage bashyigikiye ishyaka ry'umukandida w'umukuru w'igihugu aho aturukamo, bari kumanika ibiranga iryo shyaka rye aribyo igipfunsi, kandi bambaye imyenda y'impuzankano y'umweru iranga ishyaka.

Abaturage bari kwamamaza umukandida wabo bakunda cyane w'ishyaka rimwe rikorera mu Rwanda kandi bakaba bafite ibirango by'iryo shyaka. Bakaba bambaye imipira y'imituku ndetse n'iy'ubururu ndetse n'ingofero. Bakaba bafite n'amadarapo, bishima, bavuga ko bagomba gutsinda.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikorera mu mugi wa Kigali, iri mu ibara ry'ubururu kandi ikaba iri gusohoka muri gare kandi imbere yayo hakaba hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mu muhanda. Iyo modoka ikaba ifite imbere hasa umweru kandi ikaba itwikirijwe n'ihema ry'umweru. Iyi modoka iri kuri uyu muhanda, hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Imodokadoka itwara imizigo yikoreye imizigo kandi itwikirije ihema ry'icyatsi, iyo modoka ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hepfo y'imodoka hakaba hari ibiti bigize ishyamba, kandi hakaba hari n'amatara acanira umuhanda.

Umumotari utwaye iyo nzu yari kugenda mu muhanda kandi hakaba hari undimotari nawe uhetse undi mugenzi w'umugore ariko akaba ari n'imodoka iri kugenda mu muhanda akabari abandi bantu b'abakarani bafite ibiti batwararaho imizizo yabo.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri kugenda mu muhanda, hepfo yaho hari umu motari utwaye moto, kandi yambaye ingofero imurinda kuba yakomereka igihe habaye impanuka. Hepfo ye hakaba hari ibiti birebire byiza cyane.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iyo modoka iragaragara mu ibara ry'ubururu iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mwiza kandi mushyashya, bigaragara ko wubatswe vuba kandi inyuma y'iyo modoka hakaba hari inzu ndende igezweho.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iri kugenda mu muhanda, imbere yayo hari umunyonzi wambaye ingofero y'umutuku utwaye igare hepfo yaho hari ibiti birebire byiza cyane bikikije umuhanda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Iyi modokadoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Imbere y'iyo modoka hari umumotari utwaye moto kandi hepfo y'umuhanda hakaba ari ibiti bikikije umuhanda kandi umuhanda akaba ari mwiza cyane ufite n' inzira ebyiri z'abanyamaguru.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, hakaba harimo iri kubisikana n'imodoka y'indi itwara imizigo, hakaba hari n'umugenzi ugenda n'amaguru mu muhanda mu kayira k'abanyamaguru, kandi inyuma y'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, hari n'indi na yo na yo itwara abantu mu buryo bwa rusange iyikurikiye.

Umukarani uri gusunika igikoresho gitwara imizigo, moto iri kugenda mu muhanda, inzu z'ubucuruzi ziri hakurya y'umuhanda, mu muhanda nk'uko bigaragara harimo undi muntu wicaye ufite umufuka.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo inyuma ye hakaba hari amazu asanzwe y'abaturage, ariko inyuma y'ayo mazu hakaba hari kuzamurwa inzu nziza y'igorofa ndende cyane igizwe

Imodoka y'ikigo cya leta y'u Rwanda, iri kugenda mu muhanda mushya, mwiza, wa kaburimbo, hepfo y'aho y'uwo muhanda hari ibiti byiza by'imikindo birebire, byakuze, biwukikiji, hakaba hari n'igiti cy'itara, cy'ipoto gicanira uwo muhanda.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo. Hepfo yayo hakaba hari umumotari uhetse umuntu bose bambaye kasike z'umuhondo; uwo muntu ndetse n'uwo mumotari. Hepfo y'iyo modoka, munsi y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Imodoka itwara abantu rusange, itwara abantu benshi cyane cyane ndetse hagendamo abantu bicaye abandi bahagaze iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hepfo yaho hari ibiti birebire byiza cyane kandi hakaba hari n'igiti gifashe itara rimurika umuhanda harimo umugabo uri kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kugendamo, kandi ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, kandi hepfo yaho hakaba hari amatara acanira uwo muhanda, hakaba hari n'ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iyo modoka ifite imbere h'umutuku, inyuma hatwaye imizigo hayo ni icyatsi, kandi iyo modoka hepfo yaho hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, ndetse n'amatara yo ku muhanda acana mu gihe cya nijoro.

Moto iparitse imbere y'iduka, hakurya hari abamotari batwaye moto, hari n'abagenzi bari kugenda n'amaguru, hepfo yiyo moto hari amazu y'ubucuruzi, harimo amakaro ndetse afite inzugi z'ubururu indi nzu imwe ifite urugi rw'umweru.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mumuhanda itwawe n'umushoferi imbere yaho hari umumotari utwaye moto uhetse akazigo, hepfo yuwo mumotari hakaba hari umukarani uhetse imifuka, ariko mumuhanda hakaba harimo indi moto itwawe n'umumotari wambaye ingofero irinda umutwe y'umuhondo.

Imodoka itwara abangenzi mu buryo bya rusange, iri kungenda mu muhanda Kandi ikoresha amashanyarazi. Ndetse na moto y'umumotari utwaye umugenzi, uri kungenda mu muhanda Kandi umuhanda ni mushyashya.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane uri kugendamo imodoka hakaba harimo imodoka ebyiri, imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange nindi modoka ntoya, vhakurya hakaba hari insinga z'amashanyarazi zihereza umuriro abaturage.

Imodoka iri kugenda mumuhanda y'imizigo umuturage wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto y'umukara ufite umufuka nawe uri kugenda munzira y'abanyamaguru. umunyonzi wambaye umupira wumutuku uri kugenda mumuhanda.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara ryo ku muhanda, ricanira umuhanda wa kaburimbo, imbere y'amazu y'ubucuruzi, hakaba hari amamoto, amamodoka ahaparitse kandi hakaba hari n'abaturage bari kugenda.

Ikimodoka kinini cyane cy'umweru gifite agapine k'umukara, kiri kugenda mu muhanda, hepfo yayo hari ibiti kandi ndi kubona n'umuntu uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru hepfo y'ikimodoka.

Imodoka itwara imizigo nk'umucanga cyangwa se nibindi bintu y'icyatsi irikugenda mu muhanda. Iruhande rwayo hakaba hari umuhanzi utwaye igare kandi imbere yabo hakaba hari umugenzi uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru kari iruhande rw'umuhanda.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari izindi modoka nyinshi cyane, hakaba hari iziri muhanda nta nubwo ziri kugenda kandi hakaba n'iziri haruguru y'umuhanda ziparitse ahantu baparika imodoka kandi hakaba harimo n'abanyamaguru ndetse n'amagare na moto biri kugenda.

Umumotari uhetse umugenzi bari kugenda muhanda wa kaburimbo, bambaye ingofero zirinda umutwe z'umuhondo kandi bakaba bageze aho abanyamaguru bambukira, hagaragazwa n'amabara y'umweru agiye anyuze yambukiranya umuhanda.

Imodoka itwara imizigo kandi ikaba yayihetse, aho ihambiriye mu ihema ry'ubururu imbere y'modoka hari umugore uri kugenda n'amaguru wambaye igitenge n'agatambaro umutwe kandi afite umufuka utwaye ku kuboko.

Iyi modoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kandi iyo modoka ikaba iri mu mabara y'icyatsi yanditseho amagambo avuga ati tangira urugendo rukuganisha iwawe uyu munsi, inzira igera iwawe kandi hakaba hariho andi magambo avuga ati ku nguzanyo nto kurusha izindi nawe wagira iyawe.

Moto z'amapine atatu zitwara imizigo ziparitse ahantu hari ubuparikiro bw'amapave asashe neza, kandi hakaba hari umuntu uhagaze imwe muri izo moto.

Umumotari uri kugenda mu muhanda yambaye inkweto z'umukara n'pantaro y'umweru ,kandi akaba yambaye ingofero irinda umutwe we iyo ngofero ikaba ari ibara ry'umuhondo akaba hari ibipangu by'abantu ndetse n'ibikikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa ugendamo moto ndetse n'imodoka, ku ruhande rw'uwo muhanda hari amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro, kandi hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda bigize ubwiza butatse isi.

Hano ndi kubona abamotari benshi bari ku murongo basa nkaho bategereje abagenzi bari butware. Moto zabo zikoresha batiri ubwo ni amashanyarazi kandi ndi kubona n'umuhanda w'amapave.

Imodoka y'ikamyo itwara imizigo y'ibara'u igenda mu muhanda, hakaba hari n'abandi bantu bari hafi y'umuhanda bashaka kwambukiranya umuhanda, kandi bigaragara ko hari n'izindi modoka na inyuma y'iyo kamyo na zokigenda mu muhanda.

Iyi nzi ni iy'umurage ndangamuco. Irimo imitako ndetse n'ibindi bya kera byose byakoreshwaga. Ikaba ifite ubusitani bwiza cyane, hakaba harimo ibintu gakondo byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu rusisiro, abantu bari kugenda mu muhanda kandi hakaba hari ahandi hantu abantu bicara, bigaragara ko hasukuye neza, hateye neza, mu gihe bari kuruhuka kandi bareba abandi bari kunyura mu muhanda, ku mpande z'uwo muhanda hari amazu maremare y'amagorofa.

Ikibuga bakiniramo imikino itandukanye nk'umupira w'amaguru. bigaragara ko ikibuga kirimo ibyatsi uruhande rumwe, bikaba bisa neza nk'aho bitoshye. ariko urundi bigaragara ko barukandagiyemo cyane, ibyatsi bihari byapfutse.

Icyapa kigaragaramo umusaraba cya mpande eshatu. Gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku. Kigaragaza ko imbere hari imihanda ihurirana. Inyuma y'aho hakaba hari igiti kirekire ndetse ku ruhande hakaba hari urupangu rurerure.

Icyapa kibuza ko nta modoka yemerewe kunyura ahantu; kiri mu ibara ry'umutuku; imodoka ishushanyijemo ibara ry'umukara kandi gifite ubuso bw'umweru.

Icyapa kigaragaza aho baparika imodoka. Icyo cyapa kiri mu ibara ry'ubururu, inyuguti ya p irimo ikaba yanditse mu ibara ry'umweru. Kandi icyo cyapa kikaba gifite umuzenguruko wo mu ibara ry'umweru, inyuma y'ibara ry'umweru hakajyaho irindi bara ry'ubururu.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru n'ibara ry'umutuku rikizengurutse, imbere harimo ikimenyetso cy'umukara, kirimo ikindi kikinjiramo bigaragara ko ari umuhanda winjira mu wundi mu ikorosi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza utari gucamo imodoka kandi ukiri mushyashya hakurya hari inzu ndende cyane nziza y'igorofa, igiti kiriho icyapa cyamaza iki giti kandi ni ik'itara.

Icyapa cyerekana ko muri metero ijana hari akantu kazamuye imodoka igeraho ikurira ikongera ikamanuka kandi ikaba hari n'ikindi cyapa cyerekana umuntu ufasha umwana bari kwambuka umuhanda bigaragaza ko imbere hari abantu bahagendera amaguru.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru kikagira ikirango cy'umukarai, icyo cyapa kandi kikaba cyerekana ko umuhanda uza ugahura n'undi ndetse bigahita bikwereka n'ahandi hantu, uhita ukatira kugira ngo ukomeze hirya.

Icyapa cyanditseho amagambo yo mu gifaransa n'icyongereza ndetse no mu kinyarwanda, aho kivuga kiti urugendo ruhire mu kinyarwanda, kandi hakaba handitseho ko icyo gihugu ari icy'Ubugande hakaba harimo imodoka iri ikigenda mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, kandi kikagira ibirango by'umukara byerekana ko imbere hari aho bazenguruka mu gihe utwaye imodoka, hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto.

Icyapa kiriho abantu, umuntu mukuru afashe umwana basa nk'aho bari kwambuka, icyo cyapa ni mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, abantu bari mu ibara ry'umukara kandi kizengurutswe n'umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'umurenge wa giheke igiti kirekire kiri hafi y'umuhanda ,umuhanda wa kaburimbo nta modoka ziri mu hepfo aho hari kugenda umuturage wikoreye ikintu ku mutwe .

Icyapa giha karibu abantu baza mu Rwanda, gihagazeho umukobwa uri gufata ifoto, ku ruhande hakaba hari umuhanda mwiza wa kaburimbo ukiri mushyashya kandi ukaba umuhanda uri guhura n'undi muhanda uva mu kindi gice.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, kikaba gishushanyije mu ibara ry'umukara bisa nkaho kiburira ko imbere hari umuhanda winjira mu wundi.

Icyapa cy'ubuso bw'icyatsi, cyerekana aho imihanda yerekeza kandi kikaba kiri kwerekana ko hari umuhanda werekeza Kagarama, hakaba hari umuhanda werekeza i Nyamata kandi hakaba hari n'umuhanda werekeza mu mujyi wa Kigali hagati.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, kandi kikagira ibirango birimo umugabo usa n'ibara ry'umukara, ufashe umwana we usa umukara, bigaragara ko kiri kubwira abantu ko ari ukwitonda, hari abantu bambuka.

Umuhanda uri kugendamo moto, imodoka ndetse n'umunyamaguru uri kugenda mu muhanda witwikiriye umutaka kubera ko ari igihe cy'izuba, haruguru y'uwo muntu uri kugenda n'amaguru hari imodoka ebyiri zihaparitse iy'umweru n'umukara.

Ndikubona umuhanda utarimo gucamo imodoka, ndetse ndikubona ibipangu by'umuntu, kandi ndikubona iruhande rw'ibipangu hari pasiparume ndetse n'amapave akikije umuhanda.

Urupangu rwiza rw'umuturage rwubakishije amatafari ya ruriba kandi rufite amadirishya y'ibyuma; urwo rupangu imbere yaho hari igitaka kirimo utwatsi dukeya tumwe twarumye.

Umujyi urimo nyubako nyinshi z'amoko, atandukanye ndetse kandi z'amagorofa, inyubako zimwe murizo zisakaje amabati agezweho, ay'umutuku, ay'umukara, ndetse hakaba hari ibiti bikikije izo nzu bitanga umuyaga.

Inzu ndende cyane kandi imbere yayo hari itara ryo mu muhanda rifasheho n'izindi nsinga nyinshi kandi kuri iryo tara ku giti cyaryo hariho icyapa cy'umutuku.

Inzu icuruza imiti ya kizungu, hari imbere y'aho iyiyo nzu hari aho abantu baparika mu gihe baje gushaka serivisi zokwivuza kandi kuri iyo nzu hariho ibyapa byinshi byamaza serivisi batanga.

Inzu nziza ndende y'ubucuruzi kandi imbere yaho haparitse amamodoka menshi yo mu bwoko bwinshi, harimo iy'umuhondo nini n'izindi ntoya nyinshi.

Inzu nziza igezweho kandi ifite urupango rw'amatafari ahiye. Imbere y'inzu hakaba hagaragara ko hari ubusitani buhateye bugize ubwiza. Iyi nzu ikaba ifite amabati y'umutuku agezweho.

Inzu yubakishije amatafari ahiye kandi n'igorofa igeretse rimwe, imbere yaho hari ibiti by'imikindo kandi ifite n'igipangu.

Insinga z'amashanyarazi ziri kunyura iruhande rw'amazu yubatse neza, aya mazu akaba afite ibipangu bifite inzugi z'imikara kandi hakurya hakaba hari inzu ndende y'igorofa na yo iri mu mabara abiri.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara kandi n'urukweto rufite ibara ry'umweru ku ruhande hakaba hari n'ahantu hashashe amapave bigaragara ko hasa neza hafite isuku.

Imodoka eshatu ziparitse imbere y'inzu. Iruhande rw'iyi nzu hari n'indi nzu nayo ndende kandi ndikubona hari n'abantu batanu, umwe ni umumotari uhetse umugenzi.

Urupangu rwiza rukoze mu matafari ya ruriba kandi ruriho ibyuma biruzengurutse, uburyo bw'ubwirinzi hatagira uwinjiramo imbere, inyuma y'urupango hari ibyatsi bihateye byiza cyane kandi hagaragara n'igice gitogi cy'igiti cy'umukindo.

Isoko rikuru na hoteri, hakurya yayo hari parikingi z'imodoka, izo parikingi zubakishije amapave kandi hajyamo imodoka nyinshi cyane.

Ipoto y'amashanyarazi ryohereza umuriro abaturage, umuhanda mwiza cyane wa mapave ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru bacamo kugira badahura n'amamodoka, urupangu rw'inzu rwiza cyane rw'amatafari ahiye.

Igorofa ndende ya akarere ka Gasabo iriho hejuru igiseke kandi iyonzu yanditseho akarere ka Gasabo. Ifite ibirahure byiza cyane yubatse muburyo bugezweho, imbere yaho hakaba hari ibiti bya amoko atandukanye nka imikindo ndetse hakaba hari na parikingi y'imodoka.

Ahantu imodoka zijya kunywera esanse, haparitse imodoka nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye. Inyuma yaho hari inzu y'igorofa ndende igeretse inshuro eshanu, Kandi iri mu mabara y'umweru.

Inzu y'itorero rikomeye mu Rwanda y'ubucuruzi, ifite imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi ikagira n'aho baparika imodoka hagari, hisanzuye, hakaba haparitsemo imodoka zigera kuri ebyiri.

Intebe nziza n'ameza ikozwe mu biti biri imbere y'inzu ifite umuryango ukinguye, iyo nzu ifite amakaro ashashe hasi kandi imbere y'aho hari sheride y'ibyatsi byiza.

Inzu nziza y'igorofa, ifite ibirahure birebire byiza kandi by'ubururu. Iyo nzu yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari indi nzu ikiri kubakwa.

Inzu zubatse mu buryo bwa rusange bwa kijyambere zubatse mu buryo bumwe zifite urupangu rurerure izi nzu zose ziri mu gipangu kimwe kandi iki gipangu gifite amatara hejuru agicaniye, ibisahane by'itumanaho biri kuri izo nzu ndetse n'ibigega bibika amazi.

Inzu nziza ifite amabati y'umutuku. kandi iiyo nzu bigaragara ko ari uruganda. Kuko hejuru hari aho umwuka ushyushye usohokera, kugirango hinjire ukonje. Kandi imbere y'iyo nzu, hakaba hari umuhanda uhanyura kandi hakaba hari n'ibiti bigize, biri mu busitani.

Inzu nziza cyane z'amagorofa zicuruzamo ibintu bitandukanye kandi hakaba hari ibikoresho by'itumanaho ndi hejuru y'izo nzu kandi hakaba handitseho ijambo kwa Rando.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ebyiri ndetse na moto. Kandi ukaba ufite ku ruhande inzira y'abanyamaguru. Hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti bihateye bikikije umuhanda by'iminyinya ndetse n'andi moko menshi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane kandi ukiri mushyashya, uri kugendamo moto ziri kujya mu merekezo atandukanye. Kandi hepfo y'umuhanda bigaragara ko hari ishyamba kandi uwo muhanda bikaba bigaragara ko uriho amatara yaka mugiye cya nijoro agiye awukiki.

Umuhanda urimo amatara yemererera ibinyabiziga ndetse n'abantu kwambuka cyangwa se kugenda acana mu buryo butandukanye hakaba harimo kandi n'uburyo bwo kwereka amerekezo buri buganemo ku binyabiziga.

Imodoka iri kugenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo hakurya hari amatara yemerera cyangwa se abuza imodoka kugenda kandi itara rikubwira kwitegura kugenda hakurya na none hakaba hari icyapa cy'umuyoboro w'itumanaho wa hano mu rwanda ndetse hariho n'inzu ikomeye mu rwanda harimonabaturage bari kugenda mu muhanda

Amatara ya leta acaniye umuhanda ku buryo umuntu agenda mu muhanda nta kizima kirimo, abantu bari kugenda mu muhanda n'amaguru ndetse n'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda harimo imodoka.

Ikiraro kirekire cyiza cyane kandi hakaba hari imodoka ziri kugenda mu muhanda zica munsi y'ikiraro, ariko icyo kiraro hejuru yacyo hari undi muhanda na wo ukomeza w'imodoka.

Umuhanda uri ku kiraro ariko munsi' yi icyo kiraro hakaba harimo undi muhanda nawo unyuramo. Hakaba hari imodoka itwara imizigo iyo imodoka ni ikamyo, hakaba hari kugendamo n'amamoto atatu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse na za moto, kuhande hari kunyuraho amapoto y'insinga z'amashanyarazi zijya guheza umuriro abaturage, kandi uwo muhanda uracaniwe uko bigaragara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, uteyeho ibiti ku mpande z'imikindo ndetse hakaba hari n'urukuta rwubakishije amabuye ku mukingo ihande rw'umuhanda kugira itaka ritahatengukira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka nyinshi mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo imodoka z'umweru ndetse n'umukara, hepfo yaho hakaba hari ishyamba ririho ibiti rikikije umuhanda, kandi umuhanda ukaba ucaniwe.

Moto n'imodoka biri mu muhanda wa kaburimbo. Iyo moto ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, hakurya y'umuhanda hari ibiti by'ishyamba. Ndetse uwo muhanda nta muntu n'umwe uri kugendamo n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hakaba hari aho imodoka zihagarara cyangwa se ziruhukira, harimo imodoka itwara imizigo isa nkaho ihetse umucanga, ariko ubanza yapfuye kuko inyuma yayo hari icyapa kigaragaza ko imodoka ifite ikibazo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bitandukanye, bigaragara ko harimo ikerekezo gikata iburyo, ikindi ibumoso n'igikomeza imbere, uri kugendamo imodoka z'umukara ndetse n'amamoto, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto ebyiri kandi hakaba ha aho abanyamaguru bambukira hagiye harimo amabara y'umweru agaragaza aho banyura kandi hakaba hari n'amatara acanira umuhanda mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ariko utari kugenda imodoka. Umuhanda ukaba ari ahantu h'ihuriro ry'indi mihanda iturutse impande zitandukanye, kandi hakaba hari n'ibiti bikikije iyo mihanda ndetse hakaba hari n'amatara yo ku mihanda.

Ikiraro cy'umuhanda w'imodoka zimwe ziba zica hejuru izindi zica hasi Kandi hakaba hari amatara acaniye izomodoka kumuhanda, ahagaze kubiti birebire byibyuma.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto, kuruhande hakaba hari inzira ya abanyamaguru irikugendamo umuntu ndetse hepho y'umuhanda hakaba hari ibiti bikikije uwo muhanda no haruguru hakaba hari ibindi biti bikikije uwo muhanda, kandi uwo muhanda uriho amatara awucanira mugihe cya nijoro.

Igare ndetse n'ikinyabiziga cya moto biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo kandi hepfo y'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihateye byiza bihagize ubwiza kandi harugura yaho hakaba hari ibyatsi bihateye bihatatse ubwiza. uwo muhanda ni mushyashya mwiza wa kaburimbo.

Umuhanda mwiza cyane ukiri mushyashya uri kugendamo imodoka ebyiri, imodoka kimwe ni iy'umuhondo indi ni iy'umukara, hakurya hari ibiti byiza cyane by'imikindo bitatse umuhanda, kandi harimo na jaride nziza kuruhande rw'uwo muhanda.

Imodoka y'umutuku, umuhanda ushaje. Itarara rirerire ryo ku muhanda, rimanitseho icyapa cyamamaza. Ibiti by'imitako biri iruhande rw'umuhanda.

Ihuriro ry'imihanda ibiri iturutse mu byerekezo bitandukanye mu muhanda nta bintu nta binyabiziga birimo uretse igare ririmo ritagaragara neza hakurya hari gutunguka imodoka itagaragara neza iri kugenda.

umuhanda wa kaburimbo utarimo icyinyabiziga kiri kugendamo cyangwa se umunru, ariko no hakurya hakaba harimo umuhanda uhura n'uwo nguwo urimo ikinyabiziga cyirimo ibara ry'ubururu ndeste kikaba gitwara ibintu.